Inama bisa nkaho yari yahurije hamwe abayobozi ndetse n'abaterankunga bayo. Nk'uko bigaragara, bashobora kuba baraganiraga ku kibazo cy'ubuzima cyangwa se n'ingamba zafatwa kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza. Bari bari gukorera ku meza meza cyane ndetse hari n'icyayi cyo kunywa. Bose bari bakurikiye umuntu umwe uri kuvuga.

Abana bisa nkaho bishimye bisa nkaho hari umuntu bakurikiye urimo urabagira inama cyangwa urabigisha ku ngingo runaka, bose barimo baraseka abandi barakurikiye biragaragara ko ari ibintu byiza kandi bashaka kuza kubakura ubumenyi ku kintu runaka.

Umwana wicaye ndetse wipfutse mu maso bigaragara y'uko afite ibibazo birenze kimwemu ashoborara ko afite ibibazo byo mu mutwe kuko kenshi nabkenshi iyo umuntu yigunze gutya aba afite ikibazo kidasanzwe akeneye no kugirwa inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Abaturage bigaragara yuko na bo bashobora kuba bavuye nko mu mahugurwa runaka, agendanye wenda n'iby'ubuzima, bari kumwe kandi n'ugaragara yuko ari uwo mu nzego z'umutekano, ni we bafatanya ifoto kugira ngo bose babe bari kumwe, barishimye uko bigaragara.

Abantu babiri bigaragara yuko ari abayobozi, barimo batanga amabwiriza ku kindi gice cy'abantu basa nkaho batatweretse, kuko ufite mikoro biragaragara ko afite ahandi ahanze amaso, ndetse n'umwegereye afite aho ari kureba bigaragara yuko ari ikiganiro bari gutanga kijyanye no ku by'ubuzima n'ubundi.

Serivise yo gukurwa iryinyo, haragaragara umuntu uri kwikuza iryinyo ndetse n'umuganga urimo ararimukura. Biragaragara ko uyu muntu yitonze ndetse na muganga afite ibikoresho bihagije kuko yipfutse amazuru, amaboko ndetse afite n'utundi dukoresho ari kugenda akoresha ku ruhande.

Serivisi yo gukura amenyo, bigaragara ko umuntu bamaze kumukura iryinyo ryari risa nk'aho ryarwaye riri hagati y'ayandi, hagaragaramo umwobo munini cyane ndetse biragaragara ko serivisi yo kumukura amenyo ndetse no kwita kuri uwo mubiri we igikomeje.

Umusaza urembye kandi urwaye ku buryo adashobora kwihagurutsa, cyangwa ngo yijyane ahandi hantu nko ku bwiherero, bisaba umuntu umufasha kugira ngo abashe gukora ibyo byose. Biragaragara ko ari kumwe n'umurwaza kandi ari ku buriri, ntibigaragara yuko ari mu bitaro yagiye kwivuza.

Umuntu ushaje bigaragara y'uko yishimye ndetse unarebye ku rundi ruhande, wabona asa nk'aho ari no muri siporo. Kuko siporo imufasha gusazana umucyo ndetse akanasaza asa neza ,afite umubiri utohagiye ndetse ufite imyitozo.

Abantu bicaye, gusa aba bantu barimo bahanze amaso cyane cyane umu mama urimo urakora ibintu by'ubugeni, aho aboha igitebo, aba bantu bose barishimye ndetse hagaragara ko harimo n'abandi bantu batari abirabura, bicaye hamwe, baraseka ndetse bari no kuganira.

Ikirango cyerekana ko, kandi kizihiza ubwiyunge cyangwa se ubwumvikane hagati y'abantu, ndetse no kurwanya izindi ndwara runaka, iki kirango n'ubundi kirerekana yuko aha hantu hashobora kuba harabaye n'amarushanwa hagati y'abantu, kugira ngo bimakaze uwo muco.

Igihembo cyangwa impamyabushobozi kiri guhabwa umuntu bigaragara ko yatsinze cyangwa ashobora kuba arangije kwiga ibintu runaka. Aba bagabo bombi barishimye biragaragara yuko besheje imihigo.

Isuzuma, icyumba cy'isuzumiro, haragaragaramo umuganga ufite igitabo ndetse n'imbere ye haragaragara umuntu umeze nk'umurwayi bisa nkaho ari kumubaza ndetse akanandika, inyuma ya ho ariko hari undi muntu usa nkaho na we ari kwandika afite urupapuro n'ikaramu ndetse n'igitao ariko ikintu nyamukuru ni uko uyu muganga ari kumwe n'uyu muntu, uyu muntu Kandi ashobora kuba ari kugishi.

Mu bitaro haragaragaraho ibitanda bishobora kuryamaho abarwayi ndetse n'inzitiramibu ndetse n'amarido menshi bigaragara yuko ibi ngibi ari ibyumba byo mubitaro cyangwa mu kigo nderabuzima runaka. Abantu bashobora kuryamaho, bashobora kukizamura cyangwa bakakimanura, waba uri umurwayi, bigaragara ko ari ibitanda bigezweho by'abarwayi bikoreshwa mu bigo nderabuzima cyangwa mu bitaro.

Abantu benshi, bateraniye ahantu hamwe bisa nk'aho baje gufata ubutumwa runaka, ndetse biragaragara ko hari kubera nk'ibihangano bimwe na bimwe, abandi bambaye udupfukamunwa ariko hari n'abatatwambaye ariko abenshishi ni abambaye udupfukamunwa bigaragara yuko hari nk'inama bari kugirwa.

Umuntu ufite uburwayi tutamenya ubwo ari bwo ariko uryamye ku igitanda cyo kwa muganga, ari kumwe na muganga, arimo arahabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo arebe ko yashobora gukira.

Ibikoresho byinshi kandi bitandukanye bigaragara yuko bikoreshwa mu buvuzi buteye imbere nk'uko bigaragara ibi bikoresho biracyari bishya kandi n'iyo byaba bikora biragaragara yuko byitabwaho, biri mu cyumba cyabyo cya byonyine kandi bigaragara ko bicometse.

Biragaragara ko ari ubukangurambaga bwari hafi kubera aha hantu ndetse nk'uko bigaragara aha hantu hashobora kuba hari n'ibitaro hakoreshwa bamwe n'abantu batandukanye kuko hari na banderore igaragaza ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima aricyo Arabisi hashobora kuba hatangirwa serivisi zitandukanye.

Igikoresho gikoreshwa mu buvuzi mu bintu bitandukanye, gusa biragaragara yuko iki gikoresho ari icy'iterambere rwose, kuko gishobora gukoreshwa mu buvuzi kugira ngo abantu bashobore kubona serivisi nziza kandi batiriwe bajya kure.

Umuntu bigaragara yuko avuye muri siporo cyangwa avuye muri dushe amaze kwambara indi myenda arimo aranywa amazi, igusa biragaragara yuko rwose siporo akora yamuyobotse kandi ayikunda akayikora ayikunze.

Siporo nkuko bigaragara iki ni igitsina gore kirimo kirakora siporo, amaguru ye ararambuye cyane ndetse n'amaboko ararambuye cyane bigaragara ko yambaye imyenda ya siporo kandi ku kaboko ke hariho igikoresho kimufasha kumenya ingano cyangwa aho ageze akora siporo.

Umugozi bakoresha bivura uzwi nka bande, bazirika ahantu havunitse kugira ngo abashe kongera kugarura ubuzima ndetse here no kubyimba cyane ngo have ku rugero hari hasanzwe hariho, uyu mugozi ukunda gukoreshwa cyane n'abantu bagize imvune cyangwa bagize ibindi bintu runaka barwara kuko akenshi na kenshi hari abavuga yuko uyu mugozi uba urimo n'umuti.

SIiporo, nk'uko bigaragara harimo haragaragara umuntu w'igitsina gabo urimo arakora siporo cyane cyane agerageza kunanura amaguru ndetse n'ibirenge n'amaboko, uko bigaragara uyu muntu akora siporo ya buri munsi kuko bigaragara ko ari phisical feat nk'uko bakunda kubyita, siporo yakoze urabona yuko zamuyobotse kandi yamaze kuzimenyera.

Aka karango karerekana ku bintu bijyanye n'imiti ishobora gukoreshwa muri siporo mu rwego rwo kwivura imvune . Umuti ushobora kuba urimo imbere cyangwa se hariho amabwiriza y'uburyo ushobora kuba wakoreshwa mu gihe wagize imvune yo mu bwoko butandukanye.

Siporo ni igaragara nkaho bigaragaraho umuntu usa nk'aho wakoze siporo cyane kandi ikamuyoboka, iruhande rwe hari undi muntu ugenda umurebera, asa nkaho arigendera ari gukora siporo agendeye ku bipimo kuko hasi bisa nkaho hari imigozi ndetse n'utuntu ari kugenda anyuramo tumufasha gukarikira neza imyitozo ari gukora.

Abantu babiri umwe biragaragara ko ari umuganga cyangwa se umufashamyumvire mu bya siporo, undi biragaragara yuko yari ameze nkaho aje kwivuza, tutagiye kure uyu muntu ushobora gusanga ari nk'umukinnyi ariko cyane cyane yavurwaga ku kaguru avurwa ibijyanye n'imitsi ndetse anahabwa imyitozo na muganga.

Ibinini biri ku kibabi bigaragara yuko bishobora kuba aricyo byakozwemo. Imiti myinshi ikunda kuva mu bibabi cyangwa se amashami y'ibiti kuko rimwe na rimwe usanga ayo mashami cyangwa ibyo bibabi ari umuti.

Ibyatsi bigaragara ko byahinzwe mu masashe, bizwi nka pepinyeri cyangwa sera kurerera ahantu runaka biri mu buhinzi bwitabwaho cyane cyane aho biba biri nko mu mashashi amashashi bagashyiramo ubutaka baka, ariko ibyatsi biragaragara nk'aho ari umuti aho bisa nk'cyatsi cyitwa umuravumba.

Icyayi cy'u Rwanda nk'uko bigaragara ku ifoto kandi biragaragara yuko kiri mu gakarito kacyo, giteretse ku kintu kimeze nk'igiti ariko na cyo kibaje neza, kandi ahantu kiri biragaragara ko ariho gihingwa.

Icyatsi cyiza kandi gitoshye bigaragara yuko iki cyatsi gishobora kuba gikoreshwa mu bintu bitandukanye, gishobora kuba ari umuti gakondo w'ibyatsi nk'uko tubimenyereye ko ibyatsi byinshi bikunda kuba ari umuti ndetse iki cyatsi gishobora no kuvamo undi muti wenda w'amatungo tuvuye no kubantu.

Ishyamba ry'inzitane gusa ridafite ibiti birebire iri shyamba haragaragara yuko harimo n'indabyo ndetse n'ahantu umuntu ashobora guca ajya ahandi hantu cyangwa se atembera muri iri shyamba gusa rifite ibiti bidasororotse cyane.

Icyatsi cyitwa nyirabarasanya nkuko bigaragara neza, iki cyatsi rero gikunda gushyirwa, kiravugutwa kigashyirwa cyane cyane ku muntu wagize igikomere gicitse ako kanya. Mu gihe atabonye ubutabazi bw'ibanze bwo kwa muganga yifashisha iki cyatsi kuko gifasha mu kumisha amaraso no gutuma kama ndetse kikanagufasha kugabanya uburibwe.